Icyapa gishyirwa ahagaragara cyamamaza uburyo ushobora kubona ubwishingizi haba ku bijyanye no kwivuza ndetse no kugira ubwishingizi ku mitungo itimukanwa ndetse n'ibiza.

Icyapa gishyirwa ahantu hose hanyurwa n'abantu bashobora kukibona, kikaba kigaragaza uburyo ushobora kubonamo ubwishingizi, haba impanuka kamere ndetse n'iy'umutungo utimukanwa.

Icyapa kinini gishyirwa ahantu hose abantu bareba, kikaba kigaragaza uburyo ushobora kubona ubwishingizi, urugero nk'ubwishingizi bwo kubona ubwisungane mu kwivuza, k'ubutaka ndetse n'iyindi mitungo yose.

Icyapa gishyirwa ahantu abantu bose bareba haba ahantu abanyamaguru banyura ndetse n'ibinyabiziga, kigaragaza uburyo ushobora kubona ubwishingizi ukaba wakwizera umutekano w'ibintu byawe.

Icyapa gishyirwa ahagaragara cyamamaza uburyo ushobora kubona ubwishingizi, yaba ku buzima bwawe, ku mutungo utimukanwa hamwe n'uwimukanwa, hakaba hariho na nimero ushobora kubahamagara.

Ibikorwaremezo, bya leta byihutisha iterambere ry'igihugu hubakwa amazu meza maremare akeye, hafi y'imihanda ya kaburimbo.

Icyapa cyashinzwe n'ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi ku bintu byose akaba ari icyapa kigaragaza uburyo ushobora guhabwa ubwishingizi, haba ku butaka ndetse no ku wundi mutungo uwo ari wose.

Igikorwa remezo ari cyo inzu yagenewe gukorerwamo ibintu byinshi bi bitandukanye, iriho icyapa kinini kigaragaza inyubako ushobora kujyamo, ukaba wabona umuntu waguhereza ubwishingizi, haba ku mitungo yawe yimukanwa ndetse n'itimukanwa.

Icyapa kigaragaza ahantu ushobora gusanga ubwishingizi, kikaba kigaragaza imodoka yangiritse kandi hakaba hari n'urukuta nkoranyambaga ushobora kubabonaho ndetse na nimero za telefone wahamagaraho mu gihe cyose wumva ukeneye kuba wabona ubwishingizi.

Icyapa cyashyizweho n'ikigo cyagiriwe icyizere kigahabwa uburenganzira na Leta bwo gutanga ubwishingizi, haba ubwisungane mu kwivuza ndetse no kubona ubwishingizi ku mitungo itimukanwa, ndetse n'iyimukanwa.

Ikigo cyagiriwe ikizere na leta, kikaba cyahabwa ububasha bwo gutanga ubwishingizi, ku bantu bose babukeneye kandi hakaba hariho na nimero ushobora kubabona; mu gihe cyose ushaka ubundi busobanuro.

Icyapa gishyirwa ahantu hose abantu bareba, kigaragaza uburyo ushobora kubonamo ubwishingizi bwo kwivuza hamwe n'ibindi bintu byose, haba harimo n'ubutaka ndetse n'iyindi mitungo yose itimukanwa.

Icyapa kigaragaza uburyo ushobora kubonamo ubwishingizi kikaba gishyirwa aho abantu bose bakibona ndetse hariho umwana ufite inkoni, hakaba hariho na nimero ushobora kubabonaho uramutse ukeneye ibindi bisobanuro bijyanye no kubona ubwishingizi.

Icyapa kigaragaza ahantu ushobora kugana ukaba wabona ubwishingizi ndetse inyuma yacyo hakaba hari igikorwaremezo aricyo inzu yagenewe gukorerwamo ibintu bitandukanye.

Uburyo bugiye butandukanye ikigo cyabiherewe uburenganzira na Leta bwo kugira ngo gitange ubwishingizi haba ku buzima ndetse no ku mitungo igisanzwe. Hakaba hari umukobwa wicaye mu kinyabiziga atwaye.

Urubuga rwashyizweho n'ikigo gishinzwe icungamutungo mu Rwanda, bukaba bwaragishyizeho mu buryo bwo koroshya ingendo zakorwaga, ku mashami yabo aho ushobora kureba uburyo ukoresha amafaranga yawe bitakugoye.

Uburyo ikigo gishinzwe icungamutungo aho cyagennye urubuga ushobora gusura ukaba wabasha kubona ubufasha bugiye butandukanye haba ari ukumenya uburyo amafaranga yawe akoreshwa amafaranga usigaranyeho ndetse n'amafaranga wakiriye.

Ukuntu ikigo gishinzwe icungamutungo cyagennye, ushobora gusura ukaba wabona uburyo amafaranga yawe angana ku mufuka wawe ndetse n'uburyo wagiye uyohereza n'uburyo wagiye wohererezwa.

Urubuga rwashinzwe n'ikigo cy'icungamutungo, rukaba rwaragennye ko ari urubuga umuntu azajya asura kugira ngo abashe kuba yabonaho amakuru yerekeranye na konti ye, bitabaye ngombwa ko ajya ku mashami yayo buri gihe.

Uburyo bw'urubuga ikigo gishinzwe icungamutungo cyagennye bwo kugira ngo buri muntu wese abone ububasha bwo kuba yabona uburyo amafaranga ye yagiye yoherezwa, uburyo yagiye ayakira ndetse n'uburyo yayakoresheje bitabaye ngombwa ko ajya ku mashami runaka.

Urubuga rwashyizweho n'ikigo gishinzwe icungamutungo; rukaba rufasha abakiriya babo kuba babona urutonde rw'ukuntu amafaranga yabo yagiye akoreshwa; yaba kuyabitsa ndetse no kuyabikuza.

Iduka ririmo utubati, ameza ndetse n'imitako yagenewe gucuruza ibikoresho birimo kwirimbisha, hakaba harimo inkweto hamwe n'ibikapu byo gutwaramo ibintu.

Iduka ryabugenewe ushobora gusanga ahantu ukaba waguriramo ibikoresho byose bijyanye no kubika ndetse n'udukapu tw'abagore, hakaba hari n'utubati twagenewe gushyirwamo ibyo bicuruzwa kugira ngo bitangirika.

Iduka ryabiherewe uburenganzira mu gucuruza ibicuruzwa byose bijyanye n'inkweto, harimo iz'abagabo ndetse n'iz'abagore ndetse n'utubati tugiye turi ahantu twagenewe gushyirwaho inkweto zicuruzwa.

Iduka ushobora kuba wagana, ukaba wahagurira ibicuruzwa bitandukanye birimo imyenda yo kwambara ndetse n'inkweto z'ubwoko bwose ndetse n'icyapa kigaragaza ko aho hantu hacururizwa ibintu nk'ibyo.

Iduka ryashyiriweho mu buryo bwo kugurisha ibikoresho gakondo byo mu Rwanda, birimo utuseke two kubikamo ndetse n'utundi tuntu twose dukoreshwa mu gikoni, hakaba hari n'utubati twagenewe gushyirwamo ibintu.

Uburyo bwabugenewe bukoreshwa mu kwishyura, haba mu kohereza cyangwa kohererezwa amafaranga mu gihe cyose wishyura ibicuruzwa wafashe muri butike, akaba ari akamashini ukozaho telefone amafaranga akaba yakuvaho akajya ku muntu uri kwishyura.

Ikigo cyabiherewe uburenganzira mu kugurisha ibinyabiziga biri mu bwoko bwa Yundayi ndetse hakaba hari n'abakozi bagiye bari ku mpande y'ikinyabiziga berekana uburyo ari cyiza.

Ikigo cyagiriwe icyizere na leta kigahabwa uburenganzira bwo kugurisha ibinyabiziga byo mu bwoko butandukanye. Hakaba hari n'igikorwaremezo aricyo inzu yagenewe gukorerwamo ubucuruzi ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Ahantu bakirira abakiriya baho bashaka kugura ibinyabiziga, aba bakaba ari abakozi b'ikigo cyaherewe uburenganzira bwo kugurisha ibinyabiziga byo mu bwoko bwa Toyota, hakaba hari n'abakozi, harimo abagabo n'abagore ndetse n'ahantu ho kwicara.

Ikigo cyabiherewe uburenganzira na leta, kigurisha ibinyabiziga byo mu bwoko bwa toyota, bakaba baguhereza ibyangombwa byayo ndetse n'ibindi bigendana nayo ndetse n'abantu bari kuyigurisha na ahantu bakirira abantu.

Ikigo cyahawe uruhushya rwo kugurisha ibinyabiziga bishinzwe gutwara imizigo, haba mu muhanda, hakaba iparitse ahantu habugenewe ndetse n'abakozi baho bari kuyigurisha ndetse n'umuguzi uhagaze hagati yabo ari guhabwa impano.

Ikigo cyabiherewe uburenganzira na leta cyo kugurisha imodoka ziri mu bwoko butandukanye n'amabara atandukanye, aha akaba ari aho bapimira ikinyabiziga ko cyujuje ubuziranenge hanyuma kikaba cyagurishwa.

Ikinyabiziga kiri mu muhanda wa kaburimbo, cyerekeye mu cyerekezo cy'iburyo, harimo n'imirongo itandukanya imihanda ijya mu byerekezo bitandukanye, ikaba iriho icyapa kigaragaza ko imodoka igurishwa.

Amafaranga yaje ejo bundi mashyashya ibihumbi bitanu akoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ashushanyijeho igikorwa remezo cya leta, ari cyo inzu yitiriwe Convention ndetse n'ibindi bikorwa.

Amafaranga menshi abumbiye ahantu hamwe ateretse ku meza uruhande rw'imashini yagenewe kubara amafaranga mu bigo by'imari ndetse n'umuntu uyafashe hejuru.

Amafaranga ateretse ku meza, umuntu w'umugabo uri kuyashyira mu cyuma gishinzwe kubara amafaranga muburyo bw'ikoranabuhanga, kandi iyo mashini ikaba iteretse hejuru y'akabati, aho ayishyikira.

Uburyo ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda haba kohereza no koherezwa amafaranga cyagennye bwo guhuza n'abakozi bayo, bakaba baguhereza ubusobanuro bw'ukuntu amafaranga yawe yagiye akoreshwa cyangwa ukabitsa, ukanabikuza.

Ahantu habugenewe uhurira n'umukozi w'ikigo gishinzwe imari, mukaba wabikuza amafaranga yawe, binyuze muri biriya byuma byabugenewe ndetse kandi mukavugana uburyo yagufasha.

Amafaranga ibihumbi bitanu yakoreshwaga aha mbere mu gihugu cy'u Rwanda, ubu akaba yarahinduwe hagashyirwaho andi, akaba yari ashushanyijeho ibintu bitandukanye harimo amazu, ndetse n'abantu babyina.

Ahantu hateganyirijwe kwakira, abaguzi basanze ahantu bagurira amata, aho bakirirwa, hakaba hari n'ibikombe byabugenewe, basukamo amata ndetse n'utubido twagenewe kuyabika.

Ahantu habugenewe ushobora kwicara mu gihe cyose utegereje ko hari umuntu uza kugufasha akakwakira, hakaba hari n'uduti dusukura mu menyo dukuramo imyanda ndetse turi hejuru y'ameza asa umweru.

Icyuma cyabugenewe mu kubika amata mu buryo bwizewe, kikaba gikoreshwa ahantu hose bacuruza ibintu bikomoka ku mata, kugira ngo bibashe kubikwa ntibipfe.

Iduka ryagiriwe icyizere rigahabwa ubushobozi bwo kugurisha ibintu byose bijyanye no kunywa, haba ama ji ndetse n'amata, hakaba hari icyapa kigaragaza ibintu bikorerwaho ndetse n'ibindi bikorwaremezo bigiye biri aho, harimo n'inzu zigiye ziri ku ruhande zo gucururizamo.

Icyuma gishyirwa ahashinzwe kugurishirizwa amata cyangwa ibikomoka ku matungo, kikaba kiyafasha kubikwa neza ntabashe kwangirika mu gihe cyose atakoreshejwe, kikaba gikoreshwa mu mabutike yagenewe gucuruza ibijyanye n'amata.

Amabido yagenewe gushyirwamo amata, mu gihe cyose bayaguze akaba ari mu kabati kagenewe gushyirwamo ibyo bikoresho, hariho ibyapa ndetse n'ahantu biteretse.

Iduka ryabiherewe uburenganzira bwo kugurisha ibinyobwa ndetse n'ibiribwa hakaba hari umuntu w'igitsina gore wicaye ndetse n'undi uhagaze uri kumuhereza ibyo arya.

Iduka ryabugenewe gucururizamo amata ndetse n'ibindi bintu byose biva ku matungo hakaba hari abantu bari mu ngero zitandukanye abasore n'abagabo bafite ibikombe by'amata ndetse n'ibirayi imbere yabo.

Uburyo ikigo gishinzwe ihererekanya ry'ibintu cyagennye bwa hantu ushobora kujya ukaba wahagurira ibintu bitandukanye, hakaba hari n'uburyo bwateganyijwe bushobora gutuma ibintu waguze bikugeraho kandi ukishyura mu buryo bworoshye.

Uburyo ikigo gishinzwe itumanaho ndetse no kohereza no koherezwa amafaranga cyateganyije ukaba wabona uburyo wakohereza cyangwa ukoherezwa amafaranga bitabaye ngombwa ko ujya kuri aho bakorera.

Uburyo ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda, kikaba kinashinzwe kubitsa ndetse no kubikura amafaranga, gitegura uburyo ushobora kureba amafaranga usigaranye kuri konti yawe, ukaba wabireba ukoresheje telefone, ndetse na mudasobwa, utagiye ku mashami yabo.

Uburyo bwateganyijwe ushobora kuba wasura urubuga runaka, ukaba wakoresha uburyo buba buriho bwo kwishyura cyangwa kwakira amafaranga, binyuze mu bikorwa by'ikoranabuhanga harimo telefoni hamwe na mudasobwa.

Uburyo ikigo gishinzwe icungamutungo cyagennye bwo kuba wasura urubuga rwabo, ukaba wakohereza amafaranga cyangwa ukayakira binyuze kuri urwo rubuga bitabaye ngombwa ko ujya ku mashami yabo.

Ikigo gishinzwe icungamutungo cyagennye ko gukoresha ikoranabuhanga ukaba wakohereza kandi ukoherezwa amafaranga binyuze kuri telefoni bitabaye ngombwa ko ujya kubikuza ku mashami yawo.

Inyemezabwishyu uhabwa n'ikigo gishinzwe umusoro mu Rwanda, iyo umajije kwishyura umusoro wose wari urimo, ugaragaza igihe wishyuriye ikagaragaza n'amafaranga wishyuye byose.

Urupapuro uhabwa nk'i icyemezo kigaragaza ko umajije kwishyura amafaranga ajyanye n' umusoro, uhabwa n'Ikigo gishinzwe iby'Imisoro mu Rwanda, kikaba cyemeza ko nta deni na rimwe usigayemo.

Inyemezabwishyu uhabwa iyo umajije kwishyura amafaranga yose agendanye n'umusoro, ikigo gishinzwe iby'imisoro kirayiguhereza mu rwego rwo kugaragaza y'uko amafaranga wishyuye ahwanye n'ibyo wakoze.

Uburyo ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, cyateganyije bwo guhereza inyemezabwishyu abantu bamaze kwishyura umusoro kandi bagahabwa n'itariki byakoreweho.

Urutonde rw'urupapuro rugaragaza ibintu byose bizakosomwa ndetse n'ibizakoreshwa mu gikorwa runaka, hakaba hariho igiciro ndetse n'igiteranyo cyayo cy'amafaranga yose azakenerwa muri icyo gikorwa.

Amafaranga menshi ari mu kiganza cy'umuntu andi ari ku meza yose ari kuyabara, hakaba harimo n'akoreshwa mu gihugu cy'ubwongereza ndetse na Amerika.

Amafaranga y'amanyamahanga akaba akoreshwa mu gihugu cyo muri Congo akaba ashushanyijeho ibishushanyo by'ibibumbano hamwe n'urutoki ndetse n'amazu yagenewe guturwamo.

Ahantu habugenewe ushobora kugana ukaba wakora ivunjisha ry'amafaranga y'amanyamahanga yaba uyashyira mu manyarwanda cyangwa uya uvana mu manyarwanda uyashyira mu manyamahanga kugira ngo uyakoreshe mu bindi bihugu.

Ibigo byahawe uburenganzira bwo kuvunjisha amafaranga y'amanyarwanda biyajyana mu myamahanga, cyangwa kuvana amafaranga y'abanyamahanga bayashyira mu manyarwanda, hakaba hari abakozi bayo ndetse n'ibyapa bigaragaza ko bakorera aho hantu.

Igikorwa remezo ari cyo inzu yagenewe gukorerwamo ibikorwa bitandukanye, harimo n'ahantu ushobora kugana ukaba wakora ivunjisha ry'amafaranga, uyakura mu manyarwanda uyashyira mu manyamahanga, hakaba hari n'ibyapa bigaragaza ko hakorerwa ibyo bintu.

Ahantu hagiye hateganywa, ushobora kugana mu gihe cyose wumva wifuza kuvunjisha amafaranga atari amanyarwanda, uyashyira mu manyarwanda cyangwa ufite amafaranga y'amanyarwanda ariko wifuza kuyashyira mu manyamahanga.

Icyapa gishyirwa ahantu hose buri muntu wese areba, kikaba kiriho irondorwa ry'ukuntu amafaranga atari amanyarwanda avunjishwa ndetse n'amerekezo agaragaza ahantu ushobora kugana ukaba wabona amafaranga y'amanyarwanda.

Ahantu habugenewe ushobora kugana mu gihe cyose ubona ufite amafaranga y'amanyamahanga, ushaka kuyavunjisha mu manyarwanda, hakaba hari abakozi wahahora baba biteguye ku kwakira.

Umuryango winjiriramo mu gihe cyose ushaka ubufasha bwo guhindura amafaranga atari amanyarwanda ukayashyira mu manyarwanda cyangwa ushaka amafaranga atari amanyarwanda ukayashyira mu manyamahanga hejuru y'umuryango hati icyapa kibigaragaza.

Inzu yabugenewe kuvunjisha amafaranga menshi agiye atandukanye, yaba ari amanyamahanga ndetse n'andi, yose ukaba wayavunjisha ukayakoresha mu kindi gihugu, aga ngaha akaba ari aho bakirira abo bantu.

Ahantu habugenewe ushobora kugana ukaba wabona amafaranga y'abanyamahanga mu gihe cyose yifuzaza cyangwa ukabasha kuba wavunjisha amafaranga y'amanyarwanda uyashyira mu manyamahanga.

Ubukorikori bwakozwe n'abantu babiherewe uburenganzira mu gukora ibikoresho byo mu nzu, harimo n'ibitanda ndetse n'amasaso yabyo. Hano akaba ari aho gihagaze kirimo kiracuruzwa.

Ikigo cyabiherewe uburenganzira mu gukora ibikoresho byose bishyirwa mu nzu, bikubiyemo intebe ameza ndetse zose zigiye zisa umweru kandi byiza bifite ubuziranenge.

Ahantu habugenewe winjirira mu gihe ugiye kujya mu mazu yagenewe guturwamo by'akanya gato, akaba ariyo yitwa amacumbi. Hakaba hari akayira banyuramo ndetse n'ubusitani buri ku ruhande burimo ibiti.

Igice kimwe cy'inzu yagenewe guturwamo, aho abantu bicara gihe cyose baganira, cyangwa baruhuka, ndetse hakaba hari ameza, intebe abantu bicaramo, ndetse n'imisego, n'amatara, atanga urumuri igihe cyose bwije.

Ahantu habugenewe hateguwe n'ikigo gishinzwe amacumbi ugashobora kuba wahicara uri kumwe n'abantu bawe mukaba mwaganira kandi hakaba hari n'abantu bashinzwe kubakira baba bari hafi aho ndetse n'amazu agiye ari ku ruhande arimo ahantu bagurira ibyo kurya.

Igikorwa remezo ari cyo inzu yagenewe kurarwamo n'abashyitsi bose babyifuza hakaba hagizwe n'ahantu winjirira ndetse n'aho usohokera n'icyapa kigaragaza ko aho hantu ari inzu yagenewe kuraramo.

Ahantu ushobora kwakirira abantu b'inshuti zawe ndetse n'umuryango wawe, mukaba mwaganira mukafatira amafunguro atandukanye, mukaruhuka kandi hagakorerwa n' udusiporo yo koga.

Ahantu hateguwe n'ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi, ahantu bashobora kujya ukaba wahurira n'abakozi baho, bakaguha ubufasha bw'ukuntu wamenya n'ukuntu wabona ubwo bwishingizi n'amafaranga wakishyura, aha akaba ariho bakirirwa.

Umuryango werekana ahantu ushobora kunyura mu gihe cyose ushaka ubufasha bwo guherezwa ukuntu wafata ubwishingizi ku bijyanye n'umutungo wawe cyangwa n' umutungo wimukanwa.

Ahantu habugenewe ushobora guhurira n'umukozi ushinzwe gutanga ubwishingizi, haba ku bintu by'imitungo yimukanwa ndetse no ku bwishingizi bwo kwivuza.

Ahantu habugenewe hari abayobozi bo mu nzego zigiye zitandukanye, harimo n'ahantu ushobora gusabira ubufasha bw'ukuntu wabona ubwishingizi bujyanye no gushinganisha yaba ubutaka ndetse n'ibindi mitungo yose.

Ikirangantego cyahawe ububasha na leta bwo kuba wabona ubwishingizi mu gihe cyose ubukeneye, yaba ubwo kwivuza, ubw'ubutaka ndetse n'umutungo wimukanwa.

Ikigo cyagiriwe icyizere kikabasha kuba cyabona uburyo ushobora kubonamo ubwishingizi haba ku mutungo wimukanwa ndetse n'utimukanwa, hakaba hari icyapa kigaragaza aho bakorera ndetse na nimero za telefone zabo wababonaho.

Ahantu habugenewe harimo abakozi bashinzwe gutanga ubufasha ku bantu bose bifuza ubwishingizi haba ku mitungo yabo ndetse yaba yimukanywe cyangwa itimukanwa, bose bakaba babuhabwa, hakaba hari n'ibyapa bigaragaza ko aho hantu bihakorerwa.

Ahantu habugenewe n'ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi aho uhurira n'umukozi wayo mukaba mwaganira mu buryo burambuye akagufasha ibyo ushaka byose harimo: kubona ubwishingizi mu kwivuza ndetse no gucungisha ubutaka.

Uburyo ikigo gishinzwe imari cyateganyije bwo kwamamaza ukuntu ushobora kuba wabona inguzanyo bikoroheye, ndetse ku ijanisha ritoya, ndetse n'inyungu nkeya.

Urupapuro ruhabwa abantu bifuza kubona inguzanyo hakaba hariho uburyo ushobora gutanga amakuru yawe yose harimo amazina yawe, itariki wavukiyeho, ndetse n'umwirondoro wawe.

Igikorwa remezo ari cyo inzu ndende irimo ibikorwa bitandukanye hakubiyemo n'umuryango ushobora kwinjiramo ukaba wabona inguzanyo mu gihe cyose uyishaka hakaba hari na nimero zabo n'ibyapa bigaragaza ko aho hantu haricyo gikorwa.

Ikigo cyagiriwe icyizere na leta, gihabwa ububasha bw'uko ushobora kukigana ukaba wabona inguzanyo, yaba uyishaka mu mafaranga. Akaba ari aho bakirira abantu bose baje ahongaho.

Ahantu habugenewe, ushobora guhurira n'abakozi b'ikigo gishinzwe gutanga inguzanyo, mukaba mwaganira ku buryo uzishyura ndetse n'uburyo uzayihabwamo, hakaba hari n'icyapa kigaragaza ko hakorerwa ibyo bintu.

Ahantu hagenwe n'ikigo gishinzwe gutanga inguzanyo aho ushobora kugana bakaba bakwakira kandi ukaganira n'abakozi baho mu buryo bworoshye. Hakaba hari n'ibyapa bigaragaza ko aho hantu ariho batangira inguzanyo.

Ahabugenewe umucuruzi ahurira n'umugurisha ndetse n'ugura agahura n'umucuruzi bakabasha kuba baganira ku kintu bagiye kugura ndetse bakishyurwa binyuze mu ikoranabuhanga bifashishije imashini yagenewe gukura amafaranga ku bikoresho by'ikoranabuhanga.

Ahantu habugenewe ushobora kugana ukaba wagura ibintu bitandukanye, harimo inkweto ndetse n'imyenda. Hakaba hari inzira imanuka ushobora kujyayo ndetse n'izamuka ndetse n'abantu bahagaze aho ngaho bari kwitegereza ibicuruzwa byaho.

Isoko ryashyizweho kugira ngo buri muntu wese ushaka kugira icyo agura haba harimo imyambaro yo kwambara, amashakoshi ndetse n'ibindi bikoresho byose bishyirwa mu nzu akaba yarigana, rikaba rihurirwamo n'abantu benshi harimo abagore bari gucuruza ibitenge.

Isoko ryiyeguriye mu kugurisha ibikoresho gakondo byo mu Rwanda, birimo inkoko, uduseke, amashusho ndetse n'ibindi bintu byose nyarwanda, akaba ari ahantu rero habugenewe ushobora kugana ukaba wabihagurira.

Ahantu hose ushobora kugana mu gihe cyose wifuza kugura ibiribwa ndetse n'ibitaribwa n'ibikoresho bikoreshwa mu nzu ukaba uhahurira n'umucuruza ndetse nawe ugura mukaba mwaganira ku mafaranga wamuha.

Uburyo leta yateganyije bwo kubaka amasoko, ahurirwamo n'abantu benshi bakivana mu bukene ndetse hakaba hagurishirizwa n'ibiribwa bigiye bitandukanye, birimo imboga ndetse n'ibyubaka umubiri ndetse n'abantu babigurisha bakaba bari aho.

Ahantu hateguwe n'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda, hakaba ari ishami ryayo, aho bakirira abaguzi babo babahereza ubufasha bwo kumenya amafaranga ari kuri konti yabo ndetse n'uko bagiye bayakoresha n'abakozi bayo bakaba bafite ibikoresho bya mudasobwa imbere yabo.

Uburyo ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda cyagennye kugira ngo buri muntu wese w'umukiriya wabo ukeneye kubona ubufasha bw'uko amafaranga ye akoreshwa cyangwa uburyo yagura amayinite yo guhamagara, akaba yabasanga bakamuha ubufasha.

Uburyo ikigo gishinzwe kohereza no koherezwa amafaranga mu Rwanda cyagennye bwo kohereza cyangwa kwishyura wifashishije telefone bitabaye ngombwa ko wishyura n'amafaranga mu ntoki.

Ahantu hashyizweho n'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda, ndetse n'ihererekanya ry'amafaranga, hakaba hari abantu b'igitsina gore, bashaka kubona ubufasha bwo kohereza cyangwa kugura amayinite.

Ishami ryashyizweho n'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda no koherezwa amafaranga. Akaba ari ahantu abakiriya bayo bajya, bakaba bavugana n'abakozi bakabitsa cyangwa bakabikuza amafaranga kandi bakamenya ayo basigaranyeho.

Uburyo bwateganyijwe n'ikigo gishinzwe ubwikorezi aribwo bwo kugezaho ibicuruzwa bitandukanye ku bantu hifashishijwe ibinyabiziga bigerwaho numuntu umwe hamwe n'umuyobozi wayo.

Urubuga rwashyizweho n'ababifite mu nshingano, gucuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo televiziyo hamwe n'ibyuma bishinzwe gukonjesha ibiryo kugira ngo bitangirika, hakaba hariho na nimero ushobora kubahamagara ukaba wababona.

Uburyo bugezweho ushobora gukoresha mu gihe cyose ushaka kugura ibintu byerekeranye n'ikoranabuhanga, aho ushobora gusura urubuga ukaba watumizaho ibintu bitandukanye binyuze kuri murandasi ukoresheje telefone cyangwa igikoresho cya mudasobwa.

Uburyo bwateganyijwe ushobora kuba wagura ibiribwa ndetse bakanabikugezaho harimo ibitoki ndetse n'ibindi, hakaba hari n'abakozi bashinzwe kubifunga kugira ngo bikugereho bigifite ubuziranenge.

Uburyo bwateganyijwe n'ikigo cyabiherewe uburenganzira mu kugeza ibicuruzwa ku bantu bose babiguze binyuze kuri murandasi, bakabinyuza ku binyabiziga byabigenewe bishinzwe gutwara ibicuruzwa.

Uburyo ikigo gishinzwe ubwikorezi cyagennye bwo kugeza ibicuruzwa ku bakiriya babo bitabaye ngombwa ko bagera ku mashami yaho, ahantu bagiye hatandukanye hakaba hari ibinyabiziga bishinzwe kubibagezaho ndetse n'abakozi bacyo.

Inzu yagenewe guturwamo ikaba irimo ibintu byinshi bikubiyemo inyakiramajwi iri mu ruganiriro ndetse n'intebe zagenewe kwicarwaho ndetse n'utubati tugiye turimo.

Igikorwa remezo ari cyo inzu yagenewe kubamo kandi ikaba ikodeshwa, ikaba iri ahagana Kigali Kimironko, ikaba ifite ibyumba bitatu hamwe na dushe na tuwarete mu nzu eshatu.

Igikorwa remezo, ari cyo inzu igenewe guturwamo, iteye amarane inyuma, ndetse ikaba inazitiye. Hakaba hari n'umuhanda wabugenewe wa kaburimbo, unyurwamo n'ibinyabiziga mu byerekezo bitandukanye.

Igikorwa remezo ari cyo inzu yagenewe guturwamo ikaba yaranagenewe no gukodeshwa, iri ahantu i Gikondo. Ikaba abafite ibyumba bibiri ndetse n'ubwiherero n'ahantu bogera hamwe. Ikaba ikodeshwa ibihumbi magana abiri na mirongo itanu by'amanyarwanda ku kwezi.

Igikorwa remezo ari cyo amazu yagenewe amacumbi kikaba kigizwe n'ahantu hahagarara ibinyabiziga hagiye harimo uturongo tugaragaza aho bihagarara ndetse n'ibyuma bishinzwe kurinda impanuka.

Inzu yagenewe guturwamo nanone ikaba yaragenewe gukodeshwa, ikaba ifite ibyumba bibiri ndetse n'aho bogera, n'ubwiherero bumwe ndetse ikabafite aho kwinjira n'aho gusohokera, n'amakaro mu nzu.

Igikorwa remezo ari cyo inzu igenewe guturwamo, ikaba ikodeshwa iri ahantu Kimironko, gifite ibyumba bine hamwe n'ubwiherero, n'aho bogera hatatu ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi mirongo itandatu y'amanyarwanda.

Ahantu habugenewe, ushobora kugana ukaba wahagurira ibintu bitandukanye, birimo ibyo kwirimbisha ndetse no kuba wabikuza amafaranga mu gihe cyose ubishatse.

Ahantu habugenewe uhurira n'umucuruzi ndetse umucuruzi akaba ahahurira n'umuguzi bakaba baganira ku bicuruzwa bikubiyemo ibitanda, ameza ndetse n'utundi tuntu twose dukoreshwa mu nzu.

Iduka ririmo utubati twagenewe gushyirwamo ibiribwa birimo amakeke, hakaba hari n'ibyuma bishinzwe gukonjesha ibinyobwa ndetse n'ibyapa, hakaba hari n'umukozi uri kongera ibicuruzwa mu tubati.

Ahantu habugenewe hahurirwa n'abantu benshi bo mu nzego zitandukanye, ushobora kugana ukaba wagura ibikoresho bigiye bitandukanye haba ibyo mu nzu, amashakoshi, hamwe n'ibindi, hakaba harateguwe muburyo bworoshye umuntu wese ashobora kuhagera.

Ahantu habugenewe mu gihe cyose waba ushaka amavuta ndetse n'imibavu, ukaba wahagana, hakaba hari utubati twabugenewe dushinzwe gushyirwamo ibyo bicuruzwa byose.

Uburyo leta yashyizeho bw'ubwishingane mu kwivuza aribwo mituweli, akaba hari abantu b'ingeri zose babukoresha haba abagore, abana ndetse n'abandi babyeyi bageze mu gihe cyo kubyara.

Uburyo bwateganyijwe bwo guhuriza hamwe abantu bakaba babona ubwisungane mu kwivuza. Harimo mituweli ndetse n'ibindi bigo byose byabugenewe, bakaba bahabwa ubufasha kwa muganga.

Uburyo Leta yateganyije bw'ubwisungane mu kwivuza ari bwo mituweri, bukaba bwarateganyijwe na Leta, aho buri muturage yishyura ibihumbi bitatu, akabasha kuba yabona ubwisungane mu kwivuza, akaba yanivuza bitamuhenze.

Uburyo leta yateganyije bw'ubukangurambaga, aho bashishikariza umuntu wese kwizigamira amafaranga muri ejo heza. Akaba ari uburyo leta yashyizeho bwo kugira ngo abantu bazarusheho kuzagira ejo heza.

Uburyo bwateganyijwe na leta aho wishyura amafaranga ibihumbi bitatu ukaba wabasha kubona mituweli ariyo ubwisungane mu kwivuza kwa muganga, akaba ari uburyo leta yashyizeho bwo korohereza abaturarwanda.

Ahantu habugenewe ushobora kugana ukaba wahagurira ibicuruzwa bigihe bitandukanye hakaba hari n'utubati twabugenewe gushyirwamo ibyo bicuruzwa kugira ngo bitangirika n'ahantu hari akayira unyura mu migihe uri kugura.

Ahantu hahurirwa n'abantu benshi ari ryo isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibyo kunywa ndetse n'amamashini ashyirwa mu gikoni yagenewe gushyushya ibiryo, hamwe n'abakozi bayo bari kwakira abaguzi bayo ndetse n'abaguzi bagiye bari impande.

Ahantu umucuruzi ahurira n'umuguzi ibicuruzwa bye harimo ibiribwa ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye hakaba n'utubati dushyirwamo ibicuruzwa ku buryo butondetse neza ndetse n'utugare twagenewe gutwaramo imizigo yaguzwe.

Ahantu habugenewe abantu bose bagana mu gihe cyose bashaka kugura ibintu bigiye bitandukanye. Hakaba hari n'akagare kagenewe gutwarwamo imizigo, hakubiyemo n'ibintu byose wahahiye aho hantu.

Isoko ushobora kuba wagana ukaba waguramo ibinyobwa bitandukanye harimo iby'ubwoko bwinshi, hakaba hari n'utubati bishyirwamo ndetse n'aho biterekwa hose hari amakaro.

Ahantu mu nzu, hagenewe kugurishirizwa ibicuruzwa bitandukanye, yaba ibinyobwa ndetse n'ibiribwa n'ibindi bikoresho byose bikoreshwa mu nzu, hakaba hari n'utubati twagenewe gushyirwamo ibyo bicuruzwa kugira ngo bitangirika.

Usoko ushobora kugana mu gihe cyose ushaka kugura haba ibiribwa, hamwe n'ibinyobwa, ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye harimo n'amashuka, hakaba hari ibyuma bishinzwe gukonjesha.

Ahantu habugenewe ushobora kugana ukaba wahagurira ibintu bigiye bitandukanye haba ibiribwa, ibinyobwa hamwe n'ibiti bikoreshwa mu gihe cya noheli. Hakaba harateguwe ku buryo na nijoro ushobora kuhanyura nta kibazo haka.